Urubyiruko rukurikirana ibiganiro. Bambaye imipira y'umuhondo. Abakobwa bambaye amapantaro y'umukara. Abahungu bambaye amakoboyi y'ubururu.

Aha ni muri peti sitade hateraniye urubyiruko rwambaye imipira itandukanye imipira y'icyatsi, umuhondo, ubururu. Hejuru haragaragara ibyuma bihari bya sitade.

Inama nyunguranabitekerezo harimo abagabo batatu bagaragara bambaye imyenda itandukanye umukara, ubururu, umweru.

Ahantu hari kubera amahugurwa, hari abantu bambaye imyenda itandukanye, hari abambaye umupira w'umukara, bari kwitegereza, hari umudamu wundi wambaye ikanzu isa n'ikigina, agacupa k'amazi imbere yabo.

Inzu iberamo amahugurwa. Abantu barakurikira. Hari igitambaro cy'umweru. Harimo abambaye imyenda itandukanye. Ishati ya karokaro umugabo uri ku ruhande. Undi umukurikiye ikoti. Undi yambaye ikote ry'umutuku. Amarange y'umuhondo muri iyo nzu.

Muri sare y'inama, hari abantu bari gukora amahugurwa, hari abambaye ikoti, ishati y'umweru, karuvati ya move, ari kuri mashini, hari irangi ry'umuhondo, hari amazi.

Sale y'inama, harimo ameza arimo abantu bambaye imyenda itandukanye umukara, umweru, uwambaye ishati y'igitenge hari amazi imbere yabo, hari na ji, hirya yabo hari amarido maremare ari mubirahuri.

Inama irimo umunyamabanga nshingwabikorwa w'Umurenge wa Kacyiru, yambaye umupira w'ubururu, agacupa ka ji ku ruhande, arimo arafata terefone, hari abambaye imipira y'umuhondo.

Ahantu hakorerwa amahugurwa, harimo umuntu uhagaze urimo gukoresha amahugurwa. Hari abandi bicaye barimo gukurikirana amahugurwa, hakaba hari amazi ku meza.

Aha ni ahantu hateraniye abantu benshi, hari abantu batatu bari kuganira, umwe yambaye umupira w'amaboko maremare n'inkweto z'umweru, hari umukecuru wifubitse igitenge, hari umusaza wambaye ikote ry'ubururu.

Hano hari kubera amahugurwa, hari intebe nyinshi z'umweru, hari abambaye imyenda itandukanye uw'umutuku, uw'umukara n'uwambaye imyenda irimo amabara avanze.

Inyuma y'abayobozi babiri bari imbere, bambaye imyenda ya madeni Rwanda. Hari igitambaro cy'umweru giteguye ku meza. Hari icupa ry'amazi imbere yabo. Hari irangi riteye ku nzu ry'umweru.

Hari abantu batatu bicaye bari mu nama, bambaye imyenda itandukanye umwe yambaye umupira w'umutuku, undi yambaye umupira w'umukara hari uwambaye sharupe mu ijosi.

Iyi ni inzu nini ikorerwamo inama harimo abantu batatu umwe ni umugore, harimo ameza y'umweru undi yambaye karuvati y'umutu ikote ry'umukara.

Iyi nama yateranye irimo abantu bane, undi uhagaze afite indangururamajwi ari kwigisha, hari ibitambaro ku meza by'umweru.

Amahugurwa akoreshwa n'umuntu ufite indangururamajwi, hari abantu bambaye imyenda y'ubururu yanditseho inyuma, hari intebe z'umuhondo.

Abagabo batatu bambaye imyenda y'ubururu, bicaye ku meza ariho irange ry'umutuku, imbere yaho hari uwambaye ishati y'ubururu.

Uyu numuyobozi muri RGB arimo arakoresha inama, yambaye ikote ryiza, karuvati, ishati y'umweru, amarinete yambaye nimero.

Abantu benshi batandukanye bari mu nama. Bambaye imyenda ubururu, umweru, umutuku bicaye ku ntebe zitukura.

Abantu babiri b'abakobwa bigaragara ko bari mu nama, umwe yambaye umwenda w'umweru, afite indangururamajwi, undi yambaye ikarita y'akazi.

Inama y'abaturage nyunguranabitekerezo, hateguye ururabyo hari abantu bambaye imyenda itandukanye ikote ry'umukara, ishati ya move, ishati y'umweru, umuturage wambaye ikote ry'umukara.

Aha ni mu nama bari gukurikira gahunda z'inama, hari amazi imbere yabo amacupa atatu, hari umuzungu wambaye ishati y'umweru, undi yambaye ikote, harimo umwenda utukura.

Hano biragaragara ko ari muri Nyagatare, hari umuntu uri kubwiriza, yambaye ikote, ari ahantu bavugira bari mu nama cyangwa mu rusengero, afite indangururamajwi.

Iyi ni inzu ikorerwamo inama hari amarangi y'umutuku, harimo abantu bambaye imyenda myiza itandukanye, ubururu icyatsi, umuhondo bigaragara ko bakoraga inama.

Iyi ni sare ikorerwamo inama ifite isuku irakeye ifite icyerekezo harimo intebe zisukuye harimo abantu bambaye imyenda itandukanye abambaye umweru, ubururu, icyatsi.

Inama igaragaramo abantu batanu, hari igitambaro cy'umweru kumeza, hari uwambaye umupira w'umutuku, uwambaye ikote ry'ubururu, ishati y'umweru.

Hano ni mu rusengero, hari abantu bambaye imyenda myiza hasi haragaragara ko hari insinga zijya ku ndangururamajwi.

Abantu bakurikiranye inama, bambaye imyenda itandukanye ishati y'ubururu, umupira w'umuhondo, ishati ifite amabara avangavanze, afite agapira ku rutugu k'umukara, hirya ye hari umuntu wambaye umwenda w'umutuku.

Uyu ni umuyobozi wo muri RGB. Yambaye umwenda w'umweru urimo utudomo tw'umukara. Uyu mwenda ni made ini Rwanda. Imbere ye hari mudasobwa. Afite indangururamajwi.

Inama irimo abantu batandukanye, uwambaye ikote ry'ikigina, ishati y'umweru, karuvati, ishati y'umutuku yambawe n'umudamu, bicaye mu ntebe zitukura.

Meya w'umujyi wa Kigali yambaye ikote ari gukoresha inama, imbere ye hari abantu babiri; umwe yambaye ishati y'ubururu, undi iy'umweru. Inyuma ye hari uwambaye ishati y'umuhondo.

Inama iteraniyemo abantu benshi, bamwe bicaye ku ntebe za parasitiki, hari igitambaro kigaragaza ibendera ry'igihugu, bicaye bareba imbere, bari muri tente.

Inzu ifite amarangi y'umuhondo. Hari akarange k'umweru. Antene ebyiri zibasha kuduha amarezo ku matelefone yacu. Ikirere kiri hejuru ni ubururu.

Abantu bane bari mu muhanda bafite mudasobwa mu ntoki, umwe yambaye umwenda w'umweru, ipantaro y'umukara undi yambaye ingofero, bambaye udupfukamunwa.

Hano hari iminara ine iriho ibyuma by'isakazamajwi, ifite amabara atandukanye umukara, umutuku, umweru hari ibicu by'umweru.

Hano hari inzu ifite imiryango itatu y'ubucuruzi harimo ibikoresho by'abana, hariho balo imbere yaho hashashe amapave impande hashashe amakaro.

Aha ni mu nzu bakora kwamamaza iby'amatelefoni, hariho amakaro hasi hari ibirango bitandukanye bya emutiyene biranditseho uburyo bacuruza ayo ma telefoni.

Hano hari abagabo ba tatu harimo n'umwana hakaba., abagabo ba biri bicaye bari mu kazi hakaba hari imashini bakoresha eshatu hirya yabo hakaba hari terevisiyo.

Umunara muremure ufite amabara atandukanye, umutuku, umuhondo. Ukagira n'irindi bara rya move, uteye ahantu hari ibiti byiza bitanga umwuka mwiza. hejru hari ibicu by'ubururu n'umweru.

Imodoka ebyiri zihagaze imwe ni umweru, indi ni umukara, moto y'umutuku, barimo kwamamaza izo modoka na moto.

Uyu ni umunara muremure ufite ibara ry'umweru n'umutuku, hariho ibyuma by'isakazamajwi, bigaragara ko usa nkaho ukora ku bicu.

Iyi ni imodoka nini cyane itwara abagenzi harimo abantu bane, babiri barimo baraganira bareba muri telefone undi arimo arabareba uburyo baganira undi arimo arareba hakurya mu muhanda.

Umukobwa w'inzobe, ari kuri mashini, yambaye umupira w'amaboko magufi w'umweru, afite imisatsi ikoze neza, imbere ye hari akarahure k'amazi, ari gukurikirana ibijyanye n'imisoro.

Hano hari abantu babiri, umwe ni muganga, undi ni umurwayi, ari gukingirwa urukingo rwa kabiri, biragaragara ko hari akabara k'icyatsi.

Uyu ni umunara uherereye mu kagari ka Kamutwa mu mudugudu wa Kanserege, hino yaho hari ubwiherero n'akazu k'umuzamu, hari igiti cy'avoka cyezeho imbuto, hakaba hari koroture izungurukije amamashini y'uwo munara.

Hano hari ibyapa biranga ko hakorerwa ibijyanye na Kogebanki, hasize amarangi y'ubururu. Hari umuntu uhahagaze wambaye umupira n'ipantaro y'umukara, n'inkweto z'umukara. Aha hantu nta suku hafite.

Aba ni abana bari kwiga barigira kuri mudasobwa. Bambaye iniforume z'umweru bari ku meza zikoreshejwe imbaho.

Aha ni mu nzu y'ikoranabuhanga harimo mashini zo bakoreramo ibijyanye n'Irembo, hari umuntu wambaye ishati y'umutuku, hari terefone iri ku meza, hari raronje icometseho urutsinga.

Icyuma kirekire kiriho anteni zisakaza amajwi. Gifite irange ry'umutuku n'umweru. Gisa n'ikijya gukora mu bicu.

Hari abantu benshi batandukanye bari gukurikirana ibijyanye no gukoresha ikoranabuhanga, hari uwambaye ingofero y'iroza, hari uwambaye umwenda w'umweru, ipantaro y'ikoboye, umupira w'umukara.

N'inzu ifite umuryango munini ufite ibirahure bine hariho akarange k'umweru, hari ibyapa bya airtel bigizwe n'amabara atukura nay'umweru hari n'ibindi byapa biriho biranga icyakorerwa.

Iyi ni imashini ifunguye yandika harimo ikirango cya RDB gifite ibendera ry'igihugu ubururu, umuhondo, icyatsi hejuru hari utumenyetso twa facebook, twiter,

Abanyeshuri bakoresha mu kwiga ikoranabuhanga, abagaragara harimo bane bagaragaza ko imashini zabo zibari imbere, bambaye imyenda y'umweru, imeza yabo ni imbaho.

umunara muremure uri ahantu hejuru, ufite amabara atandukanye umutuku umukara n'umweru hariho isakazamajwi.

Aba ni abantu batatu bari mu muhanda, umwe afite imashini arimo ararebamo, yambaye agapfukamunwa, yambaye umupira ufite uturongo tw'umweru tumanutse, abandi babiri bari muri telefone barimo bararebamo.

Handitse ibintu biri muri utu ducupa, hari uducupa dutatu dufite amabara atandukanye iry'ubururu, umuhondo, umutuku hakaba hari n'inyuguti zindi zanditse hejuru.

Hano hari icyuma kiriho insinga z'amashanyarazi enye, hakaba urundi rutsinga rujyana amashanyarazi muri iyo nzu ihegereye, hakaba hariho n'inzu igaragaza ibirahure

Hano hari abantu benshi hari ibyuma bibiri icy'umuriro, icy'amatara hariho insinga zinyuzeho, hari imodoka ebyiri z'umweru, hari ibyuma bibuza guparika aho ngaho hari amapave ku ruhande.

Inzu yegerewe n'ipoto iriho umuriro ifite akabaho kariho irangi ry'umweru iry'ubururu hirya y'aho hari amateni afashe ku nzu ya televiziyo.

Icyuma kiriho insinga z'amashanyarazi, hariho n'itara ryo kumuhanda, inzu igeretse ifite amarangi atandukanye, hirya yaho hari ishyamba, ku ruhande hari umu motari wambaye jire y'umutuku.

Ibyuma bibiri biriho insinga z'amashanyarazi, ibyapa bishushanyije ku nzu isize irangi ry'umuhondo, hariho itara ku muhanda.

Icyuma kirekire kiriho insinga z'amashanyarazi, ku ruhande rwacyo hari kandi hafatiyeho urutsinga rw'itara ryo ku muhganda, hari korotire itukura, ibyuma.

Aha hantu hari ibyatsi byinshi hakaba ibiti, hakaba n'icyuma kizamura umuriro aricyo gituma hatangwa umuriro mu bice bitandukanye.

Hano hari umuhanda w'umukara, hari icyuma cy'itara ryo ku muhanda hariho insinga nyinshi, giteye mu busitani bufite ibiti bitanga umwuka mwiza, hirya yaho hari igipangu kigizwe n'amatafari ya Ruriba.

Imodoka itwara imizigo, ifite ahantu habiri hafunguye, ku ruhande hari abantu babiri bambaye amajire, hari nuwambaye agapfukamunwa.

Ibyuma birebire bifite uko bihererekanya umuriro, hari amazu menshi, hari igaragaza agasenge gatukura, hari utundi duhari dusa ubururu.

Icyuma kirekire kiriho insinga z'umuriro gisa n'ishaka gukora ku bicu. Hari inzu ku ruhande ifite irangi ry'umukara. Hejuru hari ibicu umweru, ubururu. Hari ibiti ku ruhande bitanga umwuka mwiza.

Uyu ni umuhanda w'umukara hari ibiti bitanga umwuka mwiza. Hari umuntu ufite umufuka, ibase iteretse ku ikarito, arahagaze yambaye umwenda urimo amabara y'umweru.

Ibiti bitanga umwuka mwiza, hari icyuma cy'amatara, hari ikindi fataho insinga zohereza umuriro ku baturage. Harasa nk'aho ari ku mugoroba.

Aha ni kacyiru ku kirezi mateneri hari irangi ry'umuhondo hari icyuma kirekire kiriho insinga zitanga umuriro hari inzu kuruhande ifite irangi ry'icyatsi.

Ikindi ni icyuma kirekire gitanga umuriro ku baturage, hariho insinga z'umuriro, gifite ibyuma bisobekeranye byinshi, hagaragara ibicu ubururu umweru.

Iki ni icyuma kirimo insinga z'umuriro hariho n'insinga za interineti zirasoberekeranye ni nyinshi hari ubusitani hirya yaho bwiza. Ibiti bitoshye ni kirekire kirasa nk'igikora ku bicu.

Hano hari ibyuma bibiri, biriho imashini igabanya uburemere bw'umuriro. Hirya yaho hari amazu asize irangi ry'umutuku, agashyamba gahari gatanga umwuka mwiza duhumeka.

Icyuma gisakaza umuriro mu baturage kiruhande y'amazu abiri asize irangi ry'ubururu, icyatsi, umutuku, hejuru gifite insinga nyinshi zisobekeranyijeho ni kirekire.

Ibi ni ibyuma bitanga umuriro mu baturage, hari ibifasheho amatara ku mihanda, hari ni mugoroba, hari umusozi uriho ubwatsi butoshye n'ibiti, hirya yaho hari undi musozi.

Iki ni ikigo gikorerwamo ibintu bitandukanye gifite korotire isize irangi ry'umweru n'umukara, hari urugi rufite utwuma tw'umweru no hagati irangi ry'umutuku.

Icyuma kirekire kiriho insinga z'amashanyarazi, hari igiti kitanga umwuka mwiza, gisobekeranyijeho ibyuma byinshi, hari ikindi kiri ku ruhande kiriho insinga za interineti.

Umuhanda urimo umuntu wambaye imyenda y'umukara n'umweru, hari ibyuma bigaragaza ko bihererekanya umuriro wabaturage, harimo ibyatsi.

Iyi ni inzu igeretse rimwe, ifite amarangi y'umukara nandi y'umuhondo, imbere yaho hari icyuma cy'umuriro gifite insinga ziriho, hepfo yaho hari icyapa.

Hano hari inzu igeretse urugi rw'icya urukuta rwanditseho mitsingi, hari kasike itukura umugenzi ufite amajerekani ku igare avuye kuvoma.

Aha ni ku biro bya REG Gasogi hari icyuma kirekire gitanga amashanyarazi hari inzu isize irangi ry'umuhondo hari ikiraro kinyuraho abagenzi.

Hari icyima gisakaza amashanyarazi mu baturage gisobekesheje ibindi byuma byinshi, hirya y'aho hari abantu bahagaze, hari umuhanda w'igitaka n'ubusitani.

Uruganda rw'ifu rufite inzu nini yaguye cyane hari korotire ndende cyane ifite ubusitani iruhande rwawo. Ifite ibyuma bikorotiriye iruhande rwawo ikagera hejuru ahatanga umwuka.

Ibi ni ibyuma bifungiyeho kamera hari udusanduku bareberamo uko kamera ikora neza, ni ibyuma bibiri biri hafi y'ibiti bitanga umwuka mwiza ku muhanda.

Imodoka eshatu z'umweru, abantu babiri bari ahantu hari amapave, inzu y'umutuku iy'isize ibara ry'umuhondo.

Hano ni kwa muganga. Hari amasikariye abantu bazamukiraho. Hari amabuye asize irangi ry'umuhondo. Hejuru hari imodoka y'ingobyi y'abarwayi. Ifite amabara atatu. Umutuku, ubururu, umweru.

Iki ni ikigo k'ishuri harimo inzira abana banyuramo kugirango batanyagirwa, hejuru harasakaye amabati yaho ni umutuku hasi harapavomye harimo isima, ku ruhande hariho igikuta gifite amatafari ahiye.

Imodoka ebyiri ziparitse, ivatiri imwe, rava imwe, hari ibyapa, hari ibiti bitanga umuyaga, hari inzu imbere y'aho izo modoka ziparitse ifite ibirahuri.

Umuhanda w'umukara, hari inzu nyinshi zihari zisize amarangi y'umuhondo, amabati atukura, ibyapa bihari, icy'umweru...

Aha hari inzu nziza ifite irangi ry'umweru, amabati atukura, hari aho abagenzi banyura hatwikiriye, hari ubusitani bwiza, hari inzira isa nkaho yakozwe neza irimo amabuye.

Hano handitse amagambo abiri akuyobora aho ujya, Nyarugenge disitirigite hosipito, hariho amarange ya oranje, irangi ry'ubururu. Iry'umweru, akatsi gateye iruhande rwaho.

Hano hari umuhanda mwiza cyane, haparitse imodoka eshatu z'ubururu, hari imikindo itatu, hari ivuriro ririho umusaraba w'umutuku, iryo vuriro ririho irangi ry'umukara, hirya yaho hari umuntu uhagaze wambaye umupira w'icyatsi.

Imodoka itwara abarwayi y'ibitaro ifite pulake za leta, ifite icyuma cy'imbere gisize irange ry'umukara iragaragaza amapine atatu.

Iyi ni imodoka y'ibitaro bifite umusaraba, ikaba ifite irange ry'umweru, hejuru hari icyapa kigaragaza ivuriro, hari igicu kiza cyane.

Aha ni kwa muganga ku muhima hari imodoka ziparitse inyuma y'igipangu harimo iy'umweru, hari icyapa kiranga ko ari ivuriro. Hari umusaraba uri ku gipangu utukura.

Iyi ni inzu abantu baza kwakamo serivisi, ifitemo amarido y'ubururu hasi hariho amakararo, kuruhande hari akabati, hari umuntu wambaye ikanzu y'umweru waje kwaka serevisi; hejuru hari amatara arimo kwaka.

Umugororwa ari kumwe n'umucunga gereza, ari imbere y'umuyobozi w'urukiko, bigaragara ko yaje kuburana, mo imbere hasize irangi ry'umweru.

Uyu ni umukobwa wambaye umupira w'umutuku harimo n'umukara akaba yambaye amalinete, akaba afite umusatsi wa natireri uramubona ko ntakindi kintu yigeze yisiga.

Hano harimo bantu batatu, umwe yambaye ikote ry'umukara, karuvati y'umutuku, undi ni umupolisi, yambaye umwenda w'ubururu.

Hano hari abantu batatu, bambaye ibendera ry'igihugu, handitseho komite y'abunzi, imbere yaho hari abantu barimo kuburana, hari ameza akoze mu rubaho.

Uyu ni umudamu wambaye imyenda y'umutuku, arirabura yambaye amarineti afite umusatsi muke, yambaye umupira w'umweru imbere.

Aba ni abashinzwe kuburanisha, bambaye amakanzu y'umukara igitambaro cy'umweru m imbere, hari uwambaye ne y' umutuku, imbere yabo hari ameza.

Abagororwa benshi bambaye imyenda y'iroza. Imbere yabo hari ababuranisha bambaye amakanzu y'imikara, bakaba bicaye bategereje uko urubanza ruri bucibwe.

Icyapa kigaragaza ko uvuye ahantu winjiye ahandi. Gikozwe n'ibyuma hejuru hari igitambaro kiranga aho ugiye, hari ibyatsi byinshi ku muhanda byaba bitanga

Hano hari abagororwa icumi bambaye imyenda y'iroza, hakabamo ameza abiri, intebe ebyiri za parasitike, abaturage icumi baje gukurikirana uko urubanza ruri bugende.

Iyi ni inzu ifungirwamo abagororwa n'abafungwa, yubatswe muri mirongo itatu, imbere yayo hari abagororwa bahahagaze bambaye imyenda y'umuhondo, hari ababarinda aribo bita abasoroviya bambaye imyenda ya kaki.

Aba ni abagororwa, begamye ku nzu, inzu iriho kizimyamoto, hari amatafari ayubatse, hari imiryango itatu ikinguye.

Abantu bari mu nama, umwe aricaye arambuye amaguru, harimo haraka amatara bigaragara ko hari ninjoro, hasi hashashe amakaro, hari ameza y'imbaho.

Abantu babiri bari mu nama, umwe yambaye ikote ry'ubururu, ishati y'umweru, karuvati, undi n'umudamu yambaye ikanzu y'umukara, yambaye na baji, hirya ye hari umugabo uhicaye nawe wambaye ishati y'ubururu.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'umukara, bigaragara ko ari nk'abafungwa bari imbere y'abacamanza bambaye imyenda y'iroza.

Abagabo babiri bari imbere bambaye imyenda y'abagororwa, bicaye ku ntebe itambitse y'urubaho, inyuma yaho hari abaje kumva uko urubanza rucibwa.

Amahugurwa yateraniyemo abantu bameze nk'abapasiteri, bambaye amakositimu, hari akabati gateretseho porojegiteri igaragaza ibyo bahugurwa, hasi hariho irangi ry'umutuku.

Aha ni kuri banki ya Gisirikare, hari imodoka ya polisi, ifite ibara ry'umukara n'umweru ifite intebe, aho abantu barinda umutekano bicara hari ahanditse zigama CSS.

Imodoka ebyiri imwe ni umukara indi ni iya polisi ifite ibara mu rubavu ry'umukara hariho akapa ka polisi yanditseho amagambo abiri tarifiki polisi hakaba hari mu ibara ry'umweru.

Hano ni mu muhanda harimo ibara ry'umweru, harimo umupolisi wambaye ijire, harimo umumotari wambaye kasike itukura, n'indi kasike y'ubururu afashe mu ntoki.

Hano ni kuri polisi, hari imodoka ebyiri; imwe ifite kabine imwe, indi ni imodoka y'umukara. Hari icyapa kigaragaza ko ari kuri polisi.

Umuyobozi wicaye ku meza yambaye ikanzu ya move, iruhande rwe hari ibendera, yicaye ku ntebe y'umukara afashe imeza.

Aha ni ifoto ya perezida Paul Kagame arimo kwiyamamaza, hari ibitambaro bifite amabara y'umuryango RPF inkotanyi, handitsemo tora Paul Kagame hari abantu benshi baje kumureba.

Nyakubahwa Paul Kagame ari gusuhuza Tito, iruhande ye hari umugore uri guseka wambaye ikanzu, haruguru ye hari uwambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru.

Umudamu wicaye ageretse akaguru ku kandi, yifashe neza, yambaye umwenda w'ubururu, yicaye mu ntebe, yambaye amataratara amufasha kureba neza.

Iki ni ikirango cya RPF inkotanyi, hariho ikirango cy'intare, imigano isobetse, izuba rirashe, amagambo atandukanye, demokarasi, ubumwe, amajyambere.

Abantu bane bambaye imyenda y'ishyaka, umwe arahagaze, ari kuvuga imigabo n'imigambi y'umukandida, afite indangururamajwi mu ntoki.

Hano biragaragara ko Kagame ari mu nama n'abandi bantu benshi hari madamu we yambaye ikanzu y'umukara akaba afite isakazamajwi mu ntoki ze.

Iyi ni inama igizwe n'Umuyobozi Nyakubahwa Jeanette Kagame. Harimo abantu bane. Harimo irangi ry'umweru. Harimo umugabo wambaye ikote ry'umukara. Hari n'abandi bakenyeye.

Ni igihe cyo kwiyamamaza .Uyu ni umuntu wari urimo kuvuga imigabo n'imigambi ye. Hari inzu ifite irange ry'umuhondo. Hari umugabo umwegereye wambaye ikote ry'ubururu. Hari umudamu wambaye amataratara n'ikanzu y'umukara.

Aha ni ahantu hateraniye abantu benshi. Bambaye imyenda itandukanye harimo abambaye imyenda y'ubururu, abandi bambaye imyenda y'umuhondo, hari amacupa ya ji imbere yabo.

Inzu yicayemo umukobwa yambaye ikanzu y'umweru, hari rido ifite amabara, yicaye ku ntebe ifite umwenda w'umweru, ikozwe mu mbaho.

Hano hari umugabo munini bigaragara ko ari mu nteko nshingamategeko yambaye ikote ry'ubururu, karuvate y'ubururu, ishati y'umweru, yambaye amarinete kandi ni munini.

Ikirango cya kera cy'urwanda kigizwe n'amabara atatu; icyatsi, umuhondo, umutuku. Hariho inuma, hariho agasuka umuhoro w'urunana umuheto ufoye.

Iki n'icyapa cy'imitwe ya Politiki hariho ikarita y'u Rwanda igizwe n'amabara atatu, ibara ry'icyatsi, ry'umuhondo, ry'ubururu harimo izuba hariho amagambo agaragaza ubusobanuro bw'iki cyapa.

Uyu ni umujyi wakamo amatara menshi, hari amatara yaka ajya kugera ku bicu by'ubururu hari imodoka y'ivatiri ihaparitse.

Imodoka iri mu muhanda w'umukara, ishyamba iruhande rwayo ari byo biti bitanga umwuka mwiza, amagare abiri, rimwe rihetse umuntu, imodoka n'umweru.

Ibiti bisa neza bitanga umwuka mwiza, mu muhanda hari imodoka y'umweru ifite ibara ry'umutuku, abamotari imbere yaho bambaye kasike y'umuhondo.

Iyi ni imodoka itwara abagenzi mu mujyi wa kigali. Iri mu muhanda w'umukara hateye ubusitani bwiza, hari ikiraro kinini cyambukiraho abagenzi.

Umuhanda urimo imodoka y'umweru n'ubururu iri ahantu hari ibiti bitoshye neza, hirya yaho hari ubusitani ifite amapine abiri agaragara.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bibiri, imodoka, akamoto gatwara imizigo k'umweru, ubusitani buri ku muhanda, umurongo ugabanya aho umuhanda ugarukira w'umweru.

Ikiraro cy'ahitwaga kwa gatera, hari inzira y'abagenzi, hari abantu babiri barimo kugenda harimo uwambaye ikanzu y'umutuku. Harimo ikamyo mu muhanda ihetse Kontinere itukura.

Umuhanda w'umukara, harimo imodoka y'umweru n'ubururu, harimo abagenzi batemberamo, hari imirongo hagati mu muhanda w'umweru.

Imodoka y'umweru iri mu muhanda w'umukara, igeze ku murongo w'umweru. Ifite imashini iponda umucanga, igenda izunguruka mu umuhanda. Imbere yayo hari utuzu dutoya turi hafi y'umuhanda.

Harimo imodoka eshatu, ebyiri nini zitwara abagenzi zifite irangi ry'ubururu n'umweru, indi ifite umweru, ni imodoka itwara imizigo umuntu ku ruhande rwiyo modoka ari kugenda hirya y'aho hari ibiti.

Imodoka ndende ifite irangi ry'ubururu, iri mu muhanda, imbere yaho hari indi y'umweru, igare umuntu acunga rihetse ibintu, hari abagenzi bari kugenda ku ruhande.

Umuhanda w'umukara harimo imodoka ebyiri z'umweru, imwe ifite icyuma gikonjesha indi itwara imizigo, harimo abantu batatu umwe afite igare ripakiye ibintu hariho imifuka ibiri, abandi babiri barimo baragenda mu nzira.

Umuhanda w'umukara urimo moto eshatu, ebyiri zitwara abagenzi indi itwara imizigo, hirya yaho hari ubusitani, hari ibiti birebire bitanga umwuka mwiza, iyagenzi iriho umugenzi umwe.

Hano mu muhanda harimo imodoka nini itwara abagenzi, hari abantu babiri bahagaze, umwe yambaye inkweto z'umukara, undi yambaye ikanzu y'ubururu.

Imodoka ya Kwasiteri y'umweru. Iri mu muhanda w'umukara ku ruhande hari ikiraro kirekire. Hirya yaho hari akazu k'abagenzi, hari n'umumotari uhahagaze.

Ikamyo y'umweru ndende ifite kotineri y'icyatsi, hirya y'aho hari ishyamba n'ubusitani. Hari umuntu uri gucunga ipine.

Uyu ni umuhanda urimo imodoka ebyiri, imodoka y'ubururu, iy'umweru hari ibyatsi hirya yaho bitanga umwuka mwiza, hari amapine agaragara abiri y'imodoka n'ahandi babika ibikoresho by'iyo modoka asize irangi ry'ubururu.

Mote ebyiri zihetse abantu, igare rihetse akantu gatukura, moto yindi ifite imizigo, ikaba ifite ibara ry'ubururu.

Akamoto gatwara imizigo gato, kari mu muhanda hirya y'aho hari ibiti birebire bituma haboneka umuyaga n'umwuka mwiza biri mu muhanda uri kugenda.

Moto ntoya itwara imizigo, hari kasike y'umutuku, ifite irangi ry'ubururu, ku mpande handitseho izina ry'iyo moto iri mu muhanda, hirya yaho hari ibiti bituzanira umwuka duhumeka.

Imodoka ya fuso, iterura imizigo harimo amatafari hari ubusitani iruhande rwaho, yaho hari akazu k'abagendazi.

Iyi ni imodoka itwara imizigo, hakaba hari indi itwara abagenzi, hari umuntu ucunga igare ririho umufuka, ari mu nzira y'abagenzi, hagaragara amapine atatu.

Imodoka ebyiri z'umweru imwe itwara imizigo indi ifite icyuma gikonjesha hari abantu babiri umwe afite igare ripakiyeho ibintu umufuka, igitoki, amakarito abiri.

Umunyozi uri mu muhanda w'umukara, igare rye ririho umusego, ijire y'icyatsi, imbere imodoka ya Ritco.

Imodoka ni iya litiko iri mu muhanda w'umukara ni nijoro icanye amatara agaragara mu ibara ry'ubururu hari ikirere nacyo gisa n'ubururu.

Bahagaze muri gare, hari imodoka itagaragara neza, hari abambaye imipira y'icyatsi, n'ubururu, ipantaro y'umukara.

Imodoka y'umweru ifite karisori igera hejuru, ihetse amatafari y'inkarakara, inyuma yaho hari indi modoka ipakiye itwikiriwe na shitingi ku ruhande hari inzira y'abagenzi.

Imodoka ya kwasiteri igeze iruhande y'ahantu hari ikiraro, ikaba ari iya kampani selegiti, imbere yayo hari umumotari ufite moto itukura, hirya yaho hari ibyatsi n'ibiti bitanga umwuka mwiza duhumeka.

Imodoka y'umutuku nini ifite umucanga hatwikiriyeho shitingi y'ubururu, hakurya yayo hari ibiti byinshi bitanga umwuka mwiza, iragaragaza amapine abiri iri kugenda mu muhanda.

Umuhanda urimwo abagenzi bari mu modoka y'ivatiri, ibara ry'umweru, iry'umuhondo, abatwaye moto batatu, umwe ahetse umuntu, abandi babiri bambaye kasike itukura y'umuhondo, hirya yaho mu nzira y'abagenzi hari umugenzi uhagaze.

Uyu ni umuhanda ukoze neza cyane, umuhanda w'amaguru ushashemo amapave harimo imodoka eshatu imwe n'ikamyo y'umweru indi ni imodoka itwara abagenzi y'ubururu ari ivatiri y'umukara.

Umuhanda w'umukara, urimo imodoka y'umweru itwikiriye shitingi, ifitemo imizigo, hirya yaho hari umuntu wambaye umupira w'umuhondo, ibiti ku muhanda bitanga umwuka mwiza.

Moto ebyiri zitwara imizigo, imwe iragaragaza ipine hariho shitingi y'ubururu ari ibyatsi bitanga umwuka mwiza.

Moto ebyiri, imwe itwaye umugenzi, bambaye kasike zitukura, indi nta muntu uyiriho, hariho umumotari wenyine, yambaye kasike y'umuhondo.

Hari imodoka ebyiri z'umukara, imwe iri mu ruhande rumwe indi mu rundi, hari imikindo ibiri igaragara, hari itara ryo ku muhanda, hari inzu ku ruhande y'ubucuruzi.

Aha ngaha hari isoko, badandaza hasi imiteja, inyanya, hari umugore wicaye ku muhanda ucuruza, yicaye iruhande rw'ingorofani y'ibiti.

Aha ni mu mujyi, hari imodoka nyinshi, haraka amatara bigaragara ko ari ni ijoro, hari abantu barimo kugenda batemberamo.

Aha ni mu muhanda, harimo imodoka itwara abagenzi nini, ifite irangi ry'ubururu, umweru, hari abantu bahagaze hafi y'akazu k'abagenzi bategereje imodoka.

Imodoka zihagarara zitwara abagenzi, imbere y'ubucuruzi bw'amaterefone hari imodoka ebyiri, hari abantu babiri bambaye imyenda itandukanye, hari uwambaye umupira w'umukara n'ikabutura y'umweru.

Hano hari ikiraro, imodoka mu muhanda y'umweru, hejuru hari ibiziriko, itwikiriyeho shitingi, ikamyo ndende y'ubururu, ibiti ku muhanda bitanga umwuka mwiza.

Ni mu muhanda w'umukara hari ibara ry'umweru rigaragaramo, hari moto ebyiri, imwe ni iy'abagenzi, indi itwara imizigo, hirya y'aho hari amazu agerekeranye, hari itara ku muhanda.

Inzu ifite amarangi y'umuhondo abantu bari kwinjira berekezayo, ifite koroture ikoreshejwe n'ibyuma, hirya yaho hari ibiti bitanga umwuka mwiza.

Iyi ni imihanda ibiri harimo umuhanda wa siporo, harimo amatara, harimo n'umuhanda ugenderwamo n'imodoka bisanzwe, harimo na jaride nziza cyane itoshye.

Inzu y'ikigo cy'amashuri, hari ikibuga cya basket abanyeshuri bitorezaho bari mu mikino, hari amabati y'umutuku asakaye iryo shuri, hari urutsinga runyuze hejuru y'inzu.

Icyapa kigaragaza umuhanda, bakwereka ko hari feruje, hari umuhanda umanuka cyane, iruhande rwaho hari imodoka iri kugenda iruhande y'ibyo byapa.

Uyu ni umuhanda wacukutse harimo icyapa cya tiriyangere gifite amabara abiri umweru n'umutuku kikagiramo amagambo yanditsemo hakaba hari ishyamba hirya y'aho hari n'urukuta runini rw'amabuye.

Ibi ni ibyapa bibiri kimwe kigaragaza kugenda gahoro ukageza muri mirongo itandatu bifite ibara ry'uruziga rutukura, ikindi kiriho kamera utemerewe gufotora ugeze aha hantu.

Umuhanda w'umukara harimo abantu babiri, umwe atwaye imodoka, undi ari kuri moto, hari inzira ishashemo amapave y'abagenzi, ubusitani ku muhanda, hari akazu k'abagenzi bicaramo.

Hano hari ibyapa biranga, hari icyapa cyanditseho ko ari umupaka wa Uganda, hari n'ikindi cyanditseho Bank Populaire, hari ikindi cyapa gifite irange ry'ubururu giteye mu busitani.

Ibi ni ibyapa bibiri bibuza, hari umuntu uri kugenda mu nzira y'abagenzi, hari icyapa kivuga ko urwo ruhande rufunze kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru, hari ibiti byinshi ku muhanda.

Umuntu utembera ahetse igikapu, yambaye umupira ipantaro y'umukara, ari gutembera ku mapave, hirya ye hari ibiti bitanga umwuka mwiza, ari kuri kaburimbo.

Hano hari icyapa kigaragaza imiyoborere y'imihanda. Hari ubusitani bwiza cyane butoshye, bunogeye amaso. Hari ahantu hari pubere bashyiramo imyanda. Hirya yaho hari akandi kapa k'umwera.

Icyapa cy'umuhondo, inyuguti z'umukara zigaragaza kilometero mirongo itandatu ku isaha, hari umurongo uri hasi na wo w'umukara, ifite irangi ry'umuhondo.

Aka ni akapa ka mpande enye kariho ikirango cyerekana aho ugomba kwinjirira cyangwa ugasohokera, kuburyo hari n'akapa gafite ibara ry'umuhondo.

Iki ni icyapa kibuza ko ushobora kunyura ahantu hafunze, cyanditseho uruziga rw'umutuku. hagati akanyuramo akandi kamenyetso gatambitsemo nako k'umutuku.

Iki ni icyapa kigaragaza uruhurirane rw'imihanda, n'icyapa cy'umuhondo kirimo fureshi y'umukara, bigaragaza ko hari imihanda ihahurira.

Iki ni icyapa kiri mu muhanda kigaragaza ko imbere hari ikorosi rinini niyo mpamvu mubona hariho amabara y'umutuku n'umweru, bigaragaza ko hashobora kuba impanuka mu gihe ushobora kuba wihuta.

Uyu ni umuhanda ushashemo amabuye, harimo imodoka y'ubururu. Hakaba hari icyapa kigaragaza izina ry'uwo muhanda, hari amapoto ariho insinga z'umuriro. Hakaba hari umuntu uhagaze ku ruhande.

Inzu eshatu zifite amabati atandukanye hariho amarange y'umutuku, umutuku wereruka, amategura hari ibiti bitanga umwuka mwiza.

Ni ikigo cy'abana b'incuke, haragaragaramo aho bakorera imikino ngororamubiri, hariho irange ry'ubururu , irange ry'umweru, akaba ari abana barimo gukinira aho ngaho.

Inzu igeretse kabiri munsi hari imodoka y'umweru y'ivatiri, iragaragaza amapine abiri, hirya yaho hari amapave ashashe.

Inzu nyinshi zifite amabati y'umutuku hariho imirongo y'umweru, ifite amatafari ya ruriba, ifite inzira icamo ikoze neza, hari ikiraro gihagazeho abantu babiri.

Umuhanda urimo abamotari babiri, umwe ahetse umuntu, undi ntawe afite, hirya yaho hari abantu babiri bari kuganira, bambaye kasike zitukura bose.

Inzu iherereye Kimironko, ikaba igeretse, ifite amarangi y'umuhondo. Hari icyapa kigaragaza aho iherereye; hari ubusitani butanga umwuka duhumeka.

Inzu ya etaje igeretse, ifite amarangi y'umutuku, umurongo w'ibirahure by'ubururu, hirya y'aho hari ubusitani, hari n'inzu iriho antene z'isakazamajwi ku materefone.

Inzu isize amarange y'umweru iri kumwe n'ifite amabati atukura, hejura haranyuraho insinga z'umuriro hari urugo rw'imiyenzi.

Iki ni icyemezo cya enipidi kigaragaraho ibirango bibiri ibendera ry'u Rwanda rigizwe n'amabara atatu icyatsi, umuhondo, ubururu hariho ikirangantego.

Umugabo yituriye ku muhanda w'igitaka, hari umuntu urimo kugenda wambaye umwenda utukura, hari imikindo iteye iruhande rwawo, isakaje amabati atukura.

Inzu ndende ifite amarange atandukanye, igaragaza ibirahure, hari abantu bahagaze iruhande rwaho, hari imodoka ebyiri, ibiti ku ruhande, ibyapa bigaragaza ibihari.

Inzira y'abagenzi irimo umuntu, arerekeza ahantu hari umutaka wa MTN, imbere ye hari ibyuma bibiri biriho insinga z'amashanyarazi, ibumoso bwe hari inzu y'ubucuruzi.

Iyi ni imihanda ibiri, harimo imodoka, hari imikindo ku muhanda itanga umwuka mwiza. Hari icyapa gifite amabara abiri atandukanye, umutuku n'umweru. Hari inzu ifite amakaro y'umweru ndende, hari n'indi igaragara hirya ifite icyapa gitukura na yo y'umweru. Hari amatara ku mihanda.

Umuntu ufite igare aricunga. Hari amapave, hari ibara ry'umukara n'umweru, hirya y'aho hari inzu iri mu ishyamba ifite amarangi y'umweru.

Inzu nini y'ivuriro hari utwapa tubiri tw'umukara twandikishaho amabara y'umweru, hari ibara ry'umukara riri kubikuta hari icyapa kigaragaza ko ari ivuriro hari n'ikindi cyapa kigaragaza ibyo bavura.

Inzu ndende igeretse iriho ibirahuri, amarangi y'umweru, ibyatsi ku muhanda bifite uturabyo twiza, handitseho ahantu abantu bagenda bakorera.

Imodoka ihagaze munsi y'inzu igeretse kabiri, irafunguye umuryango w'inyuma, inzu isize irangi ry'umweru, hari ibiti bitanga umwuka mwiza.

Igipangu cyiza kirimo inzu ya etage igeretse kabiri, ni inzu nziza yaturamo imiryango myinshi cyane kugira ngo ubutaka tubwikonokomize mu gihugu cyacu kuko ari butoya, abaturage bubatse bose inzu zigeretse ubutaka bwatubana bunini tukabona n'aho guhinga ibiribwa byacu.

Inzu ifite amarange y'umuhondo, iriho ibyapa by'ibikorwa bihakorerwa, imbere yaho haparitse imodoka y'umweru, ibirahure by'umukara n'iby'umweru.

Iyi ni imihanda ibiri ikoze neza hari imodoka y'umukara, imbere yaho hari ibyapa bibiri by'umutuku, hari igipangu gikoresheje amatafari ya ruriba, hakaba hariho utwuma duto two gutuma ntamuntu ushobora kuhasimbuka.

Hari imodoka y'umweru, igiye kwambuka iva mu gipangu, hari urugi rw'umweru, igeze mu muhanda, iragaragaza ipine rimwe, hagati hari icyuma cyo amazi anyuramo cy'umutuku.

Ifoto y'umujyi hari urukuta ruriho sekanyorye. Hari inzu nini yegereye hano ku ruhande, ifite amabati y'umutuku. Haragaragara ahantu hari anteni ndende.

Urukuta rurerure rugizwe n'amabuye, hari amarangi atandukanye, umuhondo n'irindi risa n'ivu. Hari ibyatsi ku ruhande, hafi y'inzira y'abagenzi hariho amapave, harapavomye, hameze neza.

Mu muhanda ujya kugera Rwandexi harimo feilouge harimo imirongo y'umweru imirongo y'umuhondo harimo abantu benshi imodoka zamaze guhagarara abaturage i kwambuka

Umuhanda mwiza, ibikorwaremezo bya Leta, harimo abagabo barimo baratambuka mu murongo w'umweru n'umukara wagenewe gucamo abanyamaguru, kugira ngo bagenda bafite umutekano, barangize urugendo rwabo neza, bagere mu rugo amahoro.

Iyi ni moto icagingwa iri mu muhanda. Bigaragara ko harimo igishushanyo cy'icyerekezo ry'umuhanda. Biragaragara ko umushoferi w'iyo moto yambaye neza kasike kugira ngo atica amabwiriza yo mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo aho abagenzi bagendera, kuri borodire hariho amarange y'umukara n'umweru, ku ruhande hariho ibara ry'umuhondo.

Umuhanda w'umukara, harimo amabara y'umweru, n'umukara, hari ishyamba ririmo ibiti birebire, bitanga umwuka duhumeka.

Umuhanda udakoze neza, hari icyuma kiriho isanduku ya kamera y'umuhanda, hirya yaho hari ibiti birebire bikurura umwuka mwiza.

Umuhanda munini ukikijwe n'ubusitani burimo ibiti birebire biduha umwuka duhumeka, hari umurongo ugaragara ukwereka aho umuhanda ugarukira.

Uyu muhanda ni igitaka, urimo ibiti ku ruhande n'ubusitani, ntago ukoze neza, biragaragara ko ukenewe kuzakorwa.

Inzira y'abagenzi, ishashemo amapave, hari ubusitani buteyemo uduti tureture, hari umuhanda, hakurya hagaragara umurongo w'umuhondo n'uw'umweru.

Uyu ni umuhanda w'umukara hateyeho ubusitani bwiza, hariho ibiti bidufasha kuzana umwuka mwiza, hariho amarangi y'umukara n'umweru.

Umuhanda urimo amabara y'umweru n'umukara, hari ubusitani ku muhanda butoshye buduha umwuka mwiza duhumeka, hari inzira y'abagenzi iriho amapave.

Uyu ni umuhanda w'umukara; harimo amabara y'umweru, aho abagenzi bambukiye. Harimo imodoka y'umweru ifite ibirahuri by'umukara, hirya yaho hari inzu yubakishije amategora, hari insinga nyinshi zitanga umuriro.

Uwo muhanda w'umukara harimo amabara y'umweru agaragaza inzira y'abagenzi, hirya hari agatara k'umutuku, hari ibyatsi biri ku ruhande bituma tubona umwuka mwiza.

Ikiraro gifite aho imodoka zica hejuru no hasi, hari igiti kirekire gitanga umwuka mwiza, hari ibyuma bituma umuntu adashobora kureba hasi ngo agwe mu mugihe ari hejuru ya cya kiraro.

Mu muhanda w'umukara urimo inzira yabagenzi, harimo imirongo y'umweru, hari kwaka bigaragaza ko umugenzi agomba gucamo, hari iferuje zirimo kwaka.

Iyi ni imihanda ibiri y'umukara irimo imirongo y'umweru harimo imodoka nini y'ubururu harimo amamoto ayiri inyuma hirya yaho hari imodoka yindi y'ivatiri y'umweru irimo kuza hari ubusitani bwiza.

Iki n'umuhanda uca hejuru undi ukanyura hasi, hari amamoto atatu, aciyemo ikamyo itukura ndende, hakaba harimo n'abantu bagendamo n'amaguru.

Umuhanda munini ufite ubusitani, ku ruhande harimo imodoka, iruhande hariho ibara ry'umuhodo, umukara, umweru.

Uyu ni umuhanda munini ugenderwamo n'abantu benshi, harimo ikamyo moto eshatu, hari n'icyapa abagenzi bugamomo izuba, harimo imirongo igaragaza umuhanda.

Imodoka y'umweru iri mu muhanda w'umukara, igeze ahantu ha rompuwe, ifite amapine agaragara ku ruhande abiri.

Umuhanda w'umukara urimo amabara agaragaza icyerekezo, ibara ry'umweru, iry'umuhondo, hirya yaho hari ubusitani bugaragaza aho abagenzi bagendera.

Umuntu utwaye moto itukura, ahetse umuntu, kasike z'umuhondo, imodoka ntoya iri imbere yabo ikata muri rompuwe, harimo ubusitani hagati, ibiti hirya y'aho bitanga umwuka mwiza.

Umuhanda w'umukara urimo imodoka n'igare hashashe amapave, iruhande hari jaride iteyemo ubwatsi bwiza, harimo imirongo y'umuhanda igabanya aho abagenzi bagendera.

Aho hari ibiti bitanga umwuka mwiza, hari umuhanda urimo moto ebyiri, hari aho abagenzi bahagarara harangiritse harimo ibinogo, hari akazu aho abagenzi bicara gasize irangi ry'ubururu.

Hano ni mumuhanda w'umukara, hari imodoka ebyiri, iy'umukara n'iy'umweru. Hari umuntu uhagaze hagati y'izo modoka. Hari icyapa kiri ku byuma bibiri gifite umweru n'umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo inzira y'abagenzi harimo abantu babiri, umwe ni umupolisi undi ni umuntu ufite igare arimo araricunga agiye kwambuka kugira ngo agere mu wundi muhanda.

Uyu ni umuhanda w'umukara uhuriramo undi, harimo amatara ku mihanda, hari umuntu ugiye kwambuka uri ku igare wambaye isarubeti y'icyatsi, hirya y'aho hari ubusitani.

Uyu ni umuhanda w'umukara harimo amabara y'umweru agaragaza aho abagenzi banyura. Hakaba hari n'ibiti iruhande rw'umuhanda bitanga umwuka mwiza.

Umuhanda w'umukara ariko udasa neza, harimo amabara y'umweru aho abagenzi banyura hari n'ibara ry'umuhondo ku ruhande, hari irindi ritambitse ry'umweru rirerire rihuza umuhanda hari ubusitani ku muhanda.